Ahantu ku gasantere hari umucuruzi w'amayinite yicaye mu mutaka ku ntebe hejuru. Imbere ye hari agakiyosi ke kanditseho akanyenyeri magana atanu urwego itangire ka Airtel gafunguye inzugi zose mu mpande eshatu. Inyuma yako hari umuntu wambaye bote z'umweru n'imyenda y'umukara arimo akerekezaho.

Mu isoko aho bacururiza ibintu bitandukanye hari umugore uhagaze ari kumwenyura, imbere ye hari amarindazi, imikati, biswi, ubunyobwa, hirya ye hari imineke ihiye neza minini iri kumwe na voka, hejuru ye hari amacupa y'amazi n'inkweto.

Abaturage benshi bari ahantu mu twatsi bamwe bahagaze abandi bicaye bameze nk'abari mu nama, iruhande rwabo hari ikiraro gisakaye cyubakishije ibiti, inyuma yabo hari ibindi biti bikuze kandi na byo bimeze neza.

Isahane nziza y'umweru iteretse iriho burusheti ziri ku biti bine, imbere yaho hari icupa ry'inzoga ryitwa Skol, hirya yayo hari iyindi sahane iriho ibiryo, hino yaho naho hari iyindii sahane isa n'izindi.

Umugore ubyibushye ukuze ariko atari cyane n'igitambaro cy'umukara arimo asekamo gakeya, inyuma ye hari ibase itukura na jage n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Umugore, w'umucuruzi, wicaye, wenyine, aho acururiza, imbere ye, hari amajage, indobo z'umweru, inyuma ye hari ibirungo bigiye bitandukanye, n'ibindi bicuruzwa byinshi bimuzengurutse.

Amagi atandatu ari ku gakureyi hateretse hejuru hirya hari ijage zirimo mashikarete, hirya hari indi irimo amabombo, hirya hari indobo zirimo amafu harimo n'iy'ubunyobwa hasi hari ibitunguru n'ibirayi na karoti.

Inyubako yubatse neza kandi ndende igiye igeretse, hejuru yubatse mu buryo bw'uruziga hirya yayo hari ayandi mazu ayishamikiyeho, imbere yayo ari ikibuga cy'amajaride kandi harimo n'igiti giteye neza.

Mu isoko imyenda iri hasi igiye itenze igerekanyije iy'abana ni yo myinshi, hirya hari moto iri kugaragara n'igice k'imbere, iruhande rwayo nanone hamanitse udukapu.

Igitoki gihiye kitamanyuyeho n'umuneke numwe, inyanya. Abantu benshi bicaye ahantu mu gasoko bateretse ku murongo. Harimo abagore bateze ibitambaro. Harimo icyumweru n'ibindi bifite amabara agiye atandukanye.

Isahani iteretse kumezaeza akoze neza, hari n'ifoke nayo irambitse kumeza igaritse, hirya yaho hari icupa n'ikirahure, n'icyuma cya kuto.

Umugabo utwaye moto arimo agenda wambaye ikote ritukura n'ikasike indi ayifashe mu ntoki, yambaye n'inkweto z'umukara ari kubisikana n'indi moto itwawe n'uwambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umweru n'inkweto zifunguye, ahetse umuntu na we wambaye inkweto z'umukara.